Umubyeyi w'umugore, ahagaze mu murima w'ibigori, ibigori bikiri bitoya, ariko kandi bifite ibibabi bitohagiye. Ahetse icupa rinini mu mugongo ririmo umuti, ari gutera kugira ngo arinde ibigori bye indwara.

Umugabo wambaye ingofero y'uruziga ndetse n'agapfukamunwa k'umweru, ahetse igicupa kinini cyane kirimo umuti, arikuwutera ku muceri bigaragara ko ari kurinda umuceri indwara.

Umugore wihetse icyuma gitera umuti mu myaka, ari kugenda atera umuti mu myaka iri imbere ye agenda ashyiramo amazi avanze n'umuti kugira ngo ikimera kitafatwa n'indwara.

Umusore wambaye isaha ku kaboko ndetse afite n'isahani mu ntoki iriho ibyo agaburira amafi, ahagaze hejuru y'icyuzi bigaragara ko aje kugaburira amafi, ku ruhande rw'icyo cyuzi hari urutoki.

Abantu babiri bicaye hejuru y'icyuzi cyagenewe kororerwamo amafi, birasa nk'aho bari kuhacunga kubera ko ni ubworozi bw'amafi kandi buteye imbere.

Umurima w'icyayi munini cyane harimo abasaruzi batatu bahetse ibitebo mu mugongo barimo barasoromeramo icyayi, bafite n'indi mifuka bari kujya bashyiramo icyayi.

Abantu benshi abagabo ndetse n'abagore bari mu murima w'icyayi munini cyane bari kugisarura, bahetse ibitebo mu mugongo bari kujya basoromeramo icyayi.

Umugore Uteze agatambaro k'umukara ndetse akaba afite agatebo mu ntoki yasaruriyemo ikawa, iyo ikawa uyireba harimo iyahishije yabaye umutuku ndetse n'indi yari ikiri mbisi, arishimye mu maso bigaragara ko ashimishijwe n'umusaruro abonye.

Umugore wambaye ibitenge bifite amabara atandukanye harimo umutuku, umukara ndetse n'icyatsi, ahagaze hagati y'ibiti byinshi bifite amababi manini ndetse n'ibifite amababi mato.

Abaturage bari mu murima w'icyayi munini cyane barimo baragisarura, bahetse ibitebo mu mugongo barimo barasoromeramo, hakurya yabo ku misozi hari amashyamba menshi cyane y'inzitane.

Umubyeyi uri gusoroma ikawa zihiye ndetse ateze igitambaro cy'umutuku ari gusoroma ari wenyine kandi ubona yarakaye.

Umurima wa kawa, munini cyane. Harimo izeze zifite ibitumbwe ndetse n'izihishije cyane bigaragara ko zikeneye gusoromwa cyangwa gusarurwa. Kawa zirashishe, zifite ibibabi bitoshye.

Amacupa manini cyane y'umweru ari mu bubiko. Yanditseho amagambo manini cyane y'umukara. Bigaragare ko ari amacupa arimo imiti y'amatungo.

Amakaripo menshi cyane ari mu bubiko, apanze mu buryo agiye agerekeranye, bigaragara ko harimo imiti yifashishwa bayiha amatungo.

Amacupa manini kandi maremare cyane gusa yose arapfundikiye kandi apfundikije imifuniko iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma yayo hari andi macupa maremare kurushaho y'umweru na yo asa.

Ububiko bw'imifuka ni imifuka iriho amafoto y'inka ndetse ashushanyijeho n'ibyatsi bigaragara ko ari imiti irimo baha amatungo.

Umugabo wambaye agapira gaciye amaboko n'ipantaro, afite umupanga mu ntoki, ahagaze mu murima w'amashu bigaragara ko ari gusarura, afite n'irindi shu rimwe mu ntoki.

Abakecuru babiri bari kugendana mu kayira ahantu mu gihuru, bose batwaye amasuka ku rutugu bigaragara ko bagiye guhinga, ku ruhande rwabo hari ishyamba ririmo ibiti binini.

Ikibaya kinini kigari cyane kirimo ibigori ubona ko bigeze hagati na hagati, hakaba harimo umuntu bigaragara ko arimo kugenda areba uko bihagaze.

Igishanga cy'umurambi cyane harimo abantu bari gusarura umuceri, bafite n'amagare batwararaho uwo muceri basaruye bigaragara ko bari kuwusarura bawujyana ku ruganda.

Inka nyinshi ziri mu rwuri ziganjemo imbyeyi, ni urwu rubona ko ari runini cyane, rurimo ibyatsi bitoshye n'ibiti ndetse bigungaje cyane bishishe, ni urwuri hagati harimo umuhanda ariko utanyurwamo n'ibinyabiziga byinshi.

Ibirayi bikiri bibisi birunze ahantu hamwe cyane, ibirayi by'umweru ariko byatangiye gukobagurika bitewe n'uko ari byinshi cyane.

Umufuka urimo ibirayi bicagase ndetse ibindi birayi birambitse hasi, biraronze bisa neza, bigaragara ko bigiye gucuruzwa.

Imboga nyarwatsi: ibigori, intoryi, karoti, insenda, imineke, inyanya ndetse n'imiteja. Birunze ahantu hamwe.

Igiti cy'umwembe gishishe cyane kandi gitohagiye, kiri ahantu mu gihuru haruguru yacyo hari irindi shyamba, cyarayangitse gifite uruyange bigaragara ko kigiye kuzana udutumbwe dutoya.

Ikimera kigira ibibabi binini cyane bigandaye. Kizwi ku izina ry'uruyuzi cyangwa se igihaza. Gusa ntabwo cyari cyatera ibihaza byo kurya.

Ububiko bw'amakarito ndetse n'ibindi bishashi bitandukanye, bibitsemo ibintu byinshi cyane. Biragaragara ko harimo ibyo kurya, imiti ndetse n'ibindi.

Umurima urimo ibimera n'ibyatsi byumye ndetse n'ibigori byasaruwe, bigaragara ko ari mu gihe cy'impeshyi ariko hashibutsemo umwumbati ufite amababi atohagiye.

Imboga n'imbuto birunze ahantu hamwe: inyanya, ibigori, indimu ndetse n'ibigaragara ko bikiri ku biti nk'imyembe ndetse n'izindi mbuto nk'amapera ndetse n'ibindi.

Ishyamba rinini cyane kandi ry'inzitane, bigaragara ko ari ishyamba rigari. Harimo ibiti binini cyane bigungaje ndetse n'igihuru gisakaye hasi muri iryo shyamba.

Ishyamba ritari rinini cyane riri ahantu mu mubande, iruhande rwaryo hari urutoki ndetse hakurya ku misozi hari imisozi miremire ariko itariho ishyamba.

Ishyamba rinini cyane ry'inzitane, ririmo ibiti ubona ko bishaje byagugaje kandi birebire. Ni ishyamba umuntu atapfa kubona aho anyura bitewe n'ubunini bwaryo.

Ibiti bikasemo utugeri duto dutoya ni ibiti by'inturusu bitenze mu masiteri bigaragara ko bashaka kuzabicana, biri ahantu mu gihuru bigaragara ko ari ahantu batemye ishyamba.

Ishyamba rinini cyane riteye ku buso, riri ku misozi igiye iri hakurya no hakuno, ni ishyamba ridafite ibiti bikuze cyane, ariko byose biri mu kigero kimwe.

Mu ishyamba harimo ibiti bitandukanye, harimo ibito ibinini ndetse bifite amababi n'amashami agiye atandukanye, ubona ko bitangana ni icyatsi kibisi biragaragara ko ari mu gihe k'itumba.

Abantu bane bari ahantu hahinze imbuto zitandukanye harimo amatunda aya y'imigozi, bari kuyazingira ku biti bizamuka hejuru bayayobora.

Abagore batatu bari mu murima w'imbuto bari gusoroma, uri imbere afite utudobo tubiri tw'umweru ari gusoroma ashyiramo, bose bateze ingofero kandi bambaye ibitaburiya bisa.

Abagore batanu bambaye amataburiya y'umweru yose asa bateze n'ingofero z'umweru, bari gushyira avoka mu makarito menshi arounze ahantu hamwe, ni avoka zose zikiri mbisi.

Imbuto ziri ku giti kandi zihiye igiti gitohagiye cyane. Gifite n'amashami ndetse n'amababi y'icyatsi atohagiye, izo mbuto ziratukura zitwa pome.

Umugabo wambaye ikoti rifite ibara ry'ibihogo ari mu murima ari gusoroma amatunda, amaze kuzuza akebo bigaragara ko yeze ari menshi.

Imbuto zihiye cyane zabaye umutuku zisa nk'izabuze abazisoroma gusa zitwa pome, ni ikimera gifite ibibabi bigandaye cyane.

Urugomero rwifashishwa bavomerera imyaka, ruca ahantu mu gishanga h'umurambi, hahagaze umuntu yashyize itiyo mu mazi bigaragare ko bari kwifashisha bavomera imyaka.

Umubande uteyemo imboga zigiye zitandukanye. Muri uwo murima hacamo imipira, igenda itambutsa amazi bifashisha bari kuvomerera iyo myaka.

Umugore afashe umupira mu ntoki ari kuvomerera amashu, ni amashu ataragera igihe cyo gusarurwa ariko ubona atohagiye kandi ameze neza, hakurya ni mu gisambu nta kindi kintu gihinzemo.

Umubyeyi w'umudamu arunamye ari gufata amazi ayadaha ayakura mu ibasi avomerera imboga yateye ubona ko zitari zakura, izirimo zagerageje gukura ziratohagiye.

Umurima uhinzemo ibigori bikiri bitoya ariko kandi bitohagiye, harimo umupira urimo kunyanyagiza amazi ubivomerera, hagati mu gice kimwe harimo abahinzi bari kubibagarira.

Urwuri rw'inka rurimo ibyatsi bitohagiye ndetse harimo inka nyinshi cyane, hirya y'uru rwuri hari ishyamba ry'inintusu kandi rirerire.

Igishanga cyisanzuye cyane gihinzemo ibimera bitandukanye byiganjemo ibigori ndetse ku misozi y'icyo gishanga hari amashyamba, hagati muri uwo murima hacamo umugezi urimo amazi yanduye cyane y'umuhondo.

Umusozi mwiza uteye amabengeza uriho ibimera bitandukanye ndetse hari n'ahahinze icyayi, hari umusozi uriho ibiti ndetse hakurya y'aho haragaragara ibicu by'umweru n'umukara bivanze.

Ingurube y'ishashi itaragera igihe cyo kwima, iri ahantu mu kiraro hatarimo ubwatsi, iri kwitegereza hanze bigaragara ko iri kurebayo abantu.

Ingurube nini cyane ishishe iri kurya ubwatsi ahantu mu kiraro cyayo, hasi imbere yayo hari ibibwana biri kuyonka bigaragare ko ari ibyo yabwaguye.

Ikiraro cya kijyambere gisakajwe n'amabati, kirimo inka y'inyambo, ifite amahembe manini cyane ndetse hari n'ibyuma bifite irangi ry'umutuku.

Ubworozi bw'inkoko ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi, haragaragara inkoko z'umweru, umukara ndetse n'ibihogo ndetse hari kugaragara aho zinywera amazi.

Ingurube eshatu ziri ahantu mu kiraro cyubatse mu buryo bwa kizungu, ikiraro cyiza kandi gipavomye, gipavomye na sima, zose zirahagaze zireba ku ruhande indi imwe iri kureba hejuru, nta byo kurya zifite.

Umuvuzi w'amatungo yambaye isarubeti y'ubururu ndetse n'inkweto za butini z'umweru, ari gufata inka ku mugongo inka yo iri mu rupango rwayo.

Muganga w'amatungo arakora inka mu kibuno bisa nk'aho ifite uburwayi ari kuyivura yambaye igisurubeti kirimo ibara ry'ubururu yambaye n'ingofero y'ubudodo, iyo nka iri mu kiraro kandi kirafunze.

Umuganga wambaye ga z'ubururu ndetse akaba yambaye itaburiya y'umweru, afite akuma mu ntoki arimo kwitegereza ndetse kameze nk'urushinge, hari n'urupango inyuma ye bigaragara ko bagiye gukingira inka.

Abantu bicaye ku ntebe zimwe bambaye amataburiya y'umweru, ni abasore babiri ndetse hagati harimo umukobwa wambaye ga, bose bari imbere ku meza hari amacupa.

Imashini iri ahantu mu ruganda iriho amaguru menshi cyane, hariho n'isaha nini ibara bigaragare ko ari imashini nini isya ibintu runaka mu ruganda.

Inyamaswa igira ubukana kandi irakara kubi yitwa ingwe iri mu mabara iryamye ahantu ku rutare imbere y'ishyamba.

Inyamaswa nyinshi cyane ziri ahantu mu rwuri, harimo iziganjemo udusumbashyamba, impala ndetse n'imparage ndetse n'inyamaswa zitwa isha, ziri kurisha izindi ziritegeye ziri kureba hakurya.

Inyamaswa ziri mu gihuru impala, imparage ndetse n'izindi zitandukanye. Iziri hafi ziri kwitegereza hakurya zisa nkaho zibonye umuntu.

Inyamaswa ijya kumera nk'ihene ariko ni iy'ishyamba, yitwa isha iri imbere y'igiti kinini cyane irareba inyuma ifite ubwoba, iri hagati mu ishyamba.

Inyamaswa zihagaze ahantu mu gihuru, hamwe intare, inzovu, impala ndetse n'udusumbashyamba. Hari n'ingwe, inyuma yazo hari igiti kinini.

Urukwavu runini cyane rushishe, ruhagaze mu byatsi ahantu mu gihuru, rufite ibara ry'umweru ku nda, naho ku mugongo ni ikijuju rukanuye amaso nubwo ruri mu byatsi ariko ntabwo ruri kurisha.